Abakozi bakorera ikigo cy'itumanaho MTN, ni bamwe mu bakozi bishimira akazi kabo kuko ngo bakuramo amafaranga, abasha kubafasha mu byo bakeneye, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abacuruzi ba sosiyete y'itumanaho Airtel, ni bamwe mu bishimira akazi bakora kuko ngo banezezwa no kubona bari gufasha abantu, kandi bikabinjiriza amafaranga abafasha gukemura ibibazo byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora akazi ko gutanga amayinite kubitsa ndetse no kubikuza bakorera ikigo k'igihugu k'itumanaho MTN, ni bamwe mu bishimira ko aka kazi bakuramo amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakozi bakorera ikigo cy'itumanaho cya MTN, ni bamwe mu bakunze gusangwa ahantu hahurirwa n'abantu benshi, mu rwego rwo kugira ngo babone abakiriya kandi babashe no kubona amafaranga abatunga ndetse n'imiryango yabo.

Abakozi bakorera ikigo cy'itumanaho cya MTN mu Rwanda, bishimira ko aka kazi gatuma biteza imbere dore ko ngo batanga serivisi zitandukanye, harimo nko kubikuza amafaranga, kuyohereza ndetse n'ibindi bitandukanye.

Minisiteri y'Igihugu irakangurira abaturage gukoresha ikoranabuhanga nko gusaba serivise zitandukanye harimo iz'ubuzima ndetse n'izindi serivisi za Leta, bakoresheje telefone yabo igendanwa.

Abakozi batanga serivisi zitandukanye z'irembo, gufotora ndetse no kwandika ubutumire, ni bamwe mu bishimira aka kazi kuko ngo bagakuramo amafaranga abafasha mu gukemura ibibazo bitandukanye.

Serivisi z'itumanaho ni zimwe mu zikomeje gutera imbere cyane, aho usanga ubu umuturage yohereza amafaranga, akayakira, ndetse akanahaha, bitabaye ngombwa ko ayafata mu ntoki.

Abakozi bakorera ikigo k'itumanaho Emutiyene, bakora akazi gatandukanye, harimo gutanga amayinite kubikuza amafaranga, ndetse no kuyohereza.

Abayobozi b'amakoperative y'ubuhinzi ndetse n'abanyamuryango ni bamwe mu bakoze inama kugira ngo barebe ukuntu baguza amabanki ubundi bagakora ubuhinzi bwa kijyambere.

Mu rwego rwo kwegereza serivisi za banki abaturage, ubuyobozi bwa banki yitwa popirere bwazanye gahunda ya hafi yawe, aho usanga umuturage yisabira serivisi bitamugoye.

Abayobozi b'amakoperative atandukanye, akorera mu Karere ka Nyagatare ndetse n'abayobozi ba banki, bahuriye mu nama baganira ko bagiye gukorana ndetse bagafatanya muri byose.

Abayobozi b'amabanki ndetse n'amakoperative, ni bamwe mu bahuye, ab'amakoperative bashyikirizwa igihembo cyo kwitwara neza ndetse no kugaragaza umusaruro mwinshi mu gihe cya vuba.

Amabanki ndetse n'amakoperative ni ibigo bibiri bikorana bya hafi, abakora muri banki barakangurira abayobozi b'amakoperative ndetse n'abaturage bibumbiyemo muri rusange kugana amabanki bakabaha inguzanyo bagakora ubuhinzi bwa kijyambere.

Abahinzi bibumbiye mu makoperative, bahinga ibihingwa by'ibigori, bamaze kubisarura, babipakira mu mifuka bategereza imodoka, hanyuma babijyana mu nganda zitunganya ibigori.

Koperative y'Inyange milk powder plant, iherereye mu karere ka Nyagatare ho mu ntara y'Iburasirazuba, ni imwe yahawe ibihembo na banki, nyuma yo kwifatanya maze igatera imbere.

Abayobozi ba Banki barakangurira abaturage kwibumbira mu makoperative, mu rwego rwo kwiteza imbere, mu buryo bwihuse. Aha ngaha bavuga ko bashobora kugana amabanki bakaka inguzanyo, ubundi bagakora bakiteza imbere, bakabona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko.

Ibikoresho bitandukanye nk'amamashini akonjesha ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, intebe ndende, ni bimwe mu byifashishwa mu maduka acuruza ibinyobwa bisembuye.

Amaduka acururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, agomba kuba afite intebe, ameza ndetse n'ibindi bitandukanye, ababagana bashobora gukoresha mu gihe bari kunywa inzoga.

Amaduka acuruza ibinyobwa bisembuye, arasabwa kujya atanga serivisi zitandukanye, harimo nka serivisi yo gucyura abasinze, aho kuryamishwa abananiwe gutaha ndetse n'izindi serivisi zitandukanye, harimo nko kugira isuku.

Abakora ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye harimo amagi, ibitunguru ndetse n'ibindi, ni bamwe mu bavuga ko babona inyungu bitewe nuko ibi bicuruzwa byabo bikenerwa n'abaturage buri munsi.

Amaduka acururizwamo imbuto zitandukanye nk'imyembe, ibikomfitoro ndetse n'izindi mbuto, ni amwe mu yinjiza inyungu zigiye hejuru kuko izi mbuto zifashishwa mu buzima bwa muntu bwa buri munsi.

Amaduka akora ubucuruzi butandukanye harimo ubucuruzi bw'indagara ubunyobwa n'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye namwe muyabona inyungu mu buryo bworoshye kandi bwihuse kuko ibi bicuruzwa byifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora ubucuruzi bw'ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu rugo, nk'amabase, imikoropesho, ndetse n'ibindi, bavuga yuko inyungu iza mu gihe gitoya cyane.

Abacuruzi bacuruza ibikomoka mu nyanja nk'amafi ndetse n'indagara ni bamwe mu bavuga ko babona amafaranga ahagije ugereranyije n'abacuruza n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Mu rwego rwo gukaza umutekano ndetse no kwirinda abajura ba hato na hato, abacuruzi barasabwa kujya bafunga amaduka yabo mu buryo bwizewe bakoresheje ingufuri zifite umutekano.

Amaduka akora ubucuruzi bw'ibinyobwa bitandukanye nk'amazi y'ibituruka ku mbuto ndetse n'ibindi bitandukanye, ni amwe muyabona amafaranga mu buryo bworoshye kuko ibi bicuruzwa byifashishwa n'abaturage, mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo amagaze ni zimwe mu zifite akamaro kanini, abakora ubu bucuruzi umuguzi baramutwaza kandi ku buntu.

Insengero ni zimwe mu zitanga uburezi, ubufasha bugiye butandukanye aho usanga abana biga bakagaburirwa, bagakina ndetse n'ibindi.

Abayobozi b'insengero barakangurira abakirisitu bose gutanga amaturo mu rwego rwo gusana urusengero ndetse bakubaka n'aho imodoka n'ibindi binyabiziga bizajya biparikwa.

Leta y'u Rwanda yavuze ko insengero zizajya ziba zitubahirije ibyo zisabwa zizajya zifungwa, ibi ni mu buryo bwo kwirinda akajagari mu nsengero.

Insengero zitandukanye mu Rwanda zifite ibirango biziranga, ibyo bituma ushobora gutandukanya insengero ugira uti uru rwitwa gutya uru rwitwa kuriya.

Umuryango Karitasi Rwanda ufite uruhare runini mu iterambere ndetse, no mu mibereho myiza y'abaturage. Aha batanga inkunga mu burezi ndetse no mu bindi.

Mu nsengero ni hamwe abakirisitu bateranira bagiye kuramya no guhimbaza ndetse no gusaba Imana bitewe n'ibyo bifuza, abakiristu bose bagirangwa n'urukundo, umutima mwiza ndetse n'ibindi.

Abakirisitu basengera mu nsengero zitandukanye nk'Abakatolike, ni bamwe mu bizihiza ibirori bigiye bitandukanye, harimo nk'ikirori cya Noheli, kibibutsa ivuka ry'umwana yezu.

Mu rwego rwo kugira aho gusengera hasobanutse, abayobozi b’amatorero barakangurira abaturage kwitanga bagatanga ubufasha kugira ngo bubake insengero nziza.

Leta y'u Rwanda yaburiye insengero ko zigomba kubahiriza amategeko agenga insengero harimo kugira aho ibinyabiziga biparikwa, imirindankuba, ibigega ndetse n'ibindi kugira ngo zemererwe gukora.

Amahoteri bitewe n'urujya n'uruza rw'abakiriya bayagenderera, barasabwa kujya bagira isuku ndetse bakubahiriza n'amategeko agenga inzu z'ubucuruzi nko kugira ahaparikwa ibinyabiziga, ubwiherero bwiza, kugira ibigega bifata amazi ndetse n'imyobo ijugunywamo imyanda.

Amahoteli arasabwa kurangwa n'isuku ndetse no gutanga serivisi nziza, ku babagana. Aha ni nko kugira ubwiherero bukoze neza, kugira amazi meza n'isabune ndetse no kugira ibigega bifata amazi.

Mu byumba by'amahoteli acumbikira abantu, ubusanga mu nzu harimo ibikoresho bitandukanye, igitanda, ameza, utubati, inkweto zo kogeramo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'isume n'ibindi.

Abayobozi b'amahoteli ndetse n'abakozi bayakoramo, ni bamwe mu bazanye udushya, aho batumira ababyinnyi gakondo, bakaza bagasusurutsa abakiriya babo, ibi bikabafasha kwinjiza amafaranga menshi ugereranyije n'ibindi bihe.

Abayobozi b'amahoteri ndetse n'abandi bakira abantu bagiye batandukanye, barasabwa kugira isuku, cyane cyane mu bwiherero, bashaka amazi yo gukaraba ndetse n'isabune kugira ngo birinde indwara zandura.

Abayobozi b'amahoteli ndetse n'abakozi bayakorera barasabwa kugira amasuku kandi izi nyubako zigashyirwa ahantu heza hizewe, ku buryo bidashobora guteza impanuka iyo ari yo yose.

Abayobozi b'amahoteri barakangurirwa kurangwa n'isuku, yaba mu bwiherero ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha bakira abakiriya. Ibi bikabafasha gutanga serivisi nziza kandi bakishimirwa na buri wese.

Amahoteli yakira urujya n'uruza rw'abantu aba agomba kugira ibikoresho bitandukanye by'isuku kugira ngo hirindwe kwanduzanya indwara ndetse n'umwanda, ibi ngibi bigafasha abakiriya kongera kugaruka kuko baba bahishimiye.

Abakozi bakora mu mahoteli barashishikarizwa kugira amasuku, yaba mu bwiherero ndetse n'ahandi. Leta y'u Rwanda irasaba abayobozi bayo ko bagomba gushyira aho ibinyabiziga bizajya biparika.

Amahoteli yujuje ibisabwa agendererwa n'abakiriya benshi, bavuye mu bihugu bitandukanye ndetse n'abenegihugu. Ibi twavuga nko kugira aho ibinyabiziga biparika ndetse kugira aho barara n'ibindi.

Amahoteli atunganya ibyo kurya harimo inkoko ndetse n'ibindi bitandukanye, arasabwa kurangwa n'isuku, yaba aho batekera, aho abantu barara ndetse no mu bwiherero.

Amahoteli asabwa gutunganya ibyo kurya bifite isuku, ibyo kunywa byujuje ubuziranenge ndetse akarangwa no kugira ubwiherero bwiza, amazi meza n'isabune byo gukaraba ndetse n'ibindi.

Amahoteli arasabwa kujya atanga serivisi nziza akarangwa n'isuku, akagira ubwiherero bwiza ibigega bifata amazi ndetse n'aho ibinyabiziga biparikwa, mu rwego rwo kwirinda akajagari n'impanuka.

Abayobozi b'amahoteli ndetse n'abakozi bayo barakangurirwa kugira isuku cyane cyane mu byumba birazwamo abashyitsi, mu bwiherero ndetse amahoteli kandi asabwa kuba bafite aho abagenzi baparika ibinyabiziga, mu rwego rwo kwirinda akajagari.

Abaturage bakora ubucuruzi bw'imboga n'imbuto zitandukanye, harimo karoti, inyanya, pavuro, imiteja ndetse n'ibindi, ni bamwe mu babasha kwiteza imbere ku buryo bugaragara.

Abacuruzi bakora ubucuruzi bwo mu muhanda, ni bamwe Leta yamaganiye kure, ibashishikariza kwibumbira mu matsinda, bagakorera mu masoko kugira ngo na bo bajye basora nk'abandi.

Abakora ubucuruzi butandukanye nk'ubucuruzi bw'amashu, ibitunguru, inyanya, karoti ndetse n'ibindi, ni bamwe mu bavuga ko binjiza amafaranga kuko ibi bacuruza byifashishwa mu buzima bwa muntu bwa buri munsi.

Abakora ubucuruzi butandukanye harimo imyenda, inkweto ndetse n'ibindi, ni bamwe mu binjiza amafaranga atubutse, abafasha gukemura ibibazo bitandukanye byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora ubucuruzi bw'imyenda y'abana, iy'abantu bakuru, ni bamwe mu bishimira umusaruro bakuramo dore ko ngo bakuramo amafaranga abafasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye mu miryango yabo.

Abakora ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye nk'inkweto, imyenda ndetse n'ibindi bavuga ko ubu bucuruzi bwabo bubafasha mu kubona amafaranga bakaguramo ibyo bakeneye.

Abakozi bakora mu maresitora atandukanye barashishikarizwa kugira isuku yaba kubyo kuriraho, ibyo kunyweramo, mu bwiherero ndetse kandi bakagira n'ibigega bifata amazi mu rwego rwo kwirinda isuri.

Amahoteli ndetse n'amaresitora asabwa kujya agira isuku mbere na nyuma yo gutanga amafunguro, abakozi basabwa kuba bakarabye, bambaye neza, kandi banasa neza.

Amahoteli ndetse n'amaresitora atanga serivisi zitandukanye nko kugaburira abantu, ni amwe mu yasabwa kugira isuku, yaba mu bwiherero ndetse no mu gikoni, aho batekera.

Amaresitora arasabwa kujya yubahiriza ibi bikurikira; kugira isuku, kugira aho bakarabira ndetse n'ubwiherero bukoze neza.

Amaresitora arasabwa gukurikiza amabwiriza ashyirwaho na leta nko kugira isuku, gutanga serivisi nziza, ubwiherero bwiza ndetse n'ibindi bitandukanye, bishobora kutabangamira uburenganzira bwa muntu.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo rusange ku mapikipiki, ni bamwe mu bishimira gahunda Leta yashyizeho yo kubaka imihanda no mu bice by'icyaro, bavuga ko ibi bibarinda impanuka ndetse n'ibinyabiziga byabo ntibyangirike.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo bwa rusange bashimira Leta gahunda yayo yo kubaka imihanda mu bice by'icyaro kuko ngo bibafasha kwirinda impanuka ndetse no kurinda ibinyabiziga byabo kwangirika.

Abatwara ibinyabiziga barashishikarizwa kubahiriza amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka kandi bagatwara batanyoye inzoga.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo bwa rusange bakoresheje amapikipiki barasabwa kwirinda kurangara igihe bari mu muhanda, kubahiriza ibyapa ndetse no kubahiriza amategeko agenga umunyamaguru mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Abatwara ibinyabiziga barashimira Leta y'u Rwanda, bavuga yuko, aho batabashije gushyira umuhanda wa kaburimbi, bahashyize umuhanda w'amabuye, mu rwego rwo korohereza ingendo abaturage ndetse ibi bikabafasha kwirinda impanuka n'ibindi bibazo biterwa n'imihanda yangiritse.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo bwa rusange cyane cyane abakoresha moto, barasabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse kandi bakajya bagira n'isuku.

Abari n'abategarugori ni bamwe mu basigaye bakora umurimo wo gutwara abantu ku mapikipiki, mu modoka ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibi bigaragaza ko bitinyutse kandi bashoboye.

Abatwara abantu ku binyabiziga nk'amagare barasabwa kwirinda umwanda, ndetse no gutanga serivisi nziza birinda impanuka mu muhanda. bagakurikiza n'amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kubungabunga, ubuzima bw'ikiremwamuntu.